Birakwiye ko buri karere kajya gafata umunsi umwe mu cyumweru, kakigisha ku bijyanye n'uburyo twakwita ku buzima bwacu.

Gukoresha amazi meza kandi asukuye biradufasha, kuko bituma tugira ubuzima bwiza ndetse tukanakora ibikwiriye.

Ni byiza ko tugaburira abana bakiri bato indyo yuzuye, cyane cyane tukabaha amata, kuko abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Kubera ubuyobozi bwiza mu Rwanda dufite usanga buri turere twose dufite amazi n'abatagira amahirwe yo kubona amazi asukuye hari ahabugenewe babasha kujya kuvoma kugira ngo babashe kubona amazi meza.

Ni byiza kuvoma amazi meza kandi asukuye mu bikoresho byabugenewe, kuko bituma akomeza gusa neza kandi akanafasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Turasaba buri kigo nderabuzima ko cyagira icyumba cyakiriramo urubyiruko, aho bigisha urubyiruko ku bijyanye n'ubuzima bwabo bw'imyororokere.

Ni byiza gutoza abana bakiri bato kunywa amata, kuko abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni byiza ku mugore utwite cyangwa yumva atameze neza, ko yagana ibigo nderabuzima bigiye bitandukanye cyangwa bimwegereye, kugira ngo abashe kureba uko umubiri we uhagaze.

Ni byiza kugira amavomero meza, kuko afasha abaturage kugira amazi asukuye ndetse ubuzima bwabo bukaba ari bwiza ibihe byose.

Umwuga w'ubuhanzi utewe ishema na benshi, aho umwana ugikura yakwisangamo impano yo kuririmba bityo abahanzi bakamufasha kwiteza imbere.

Gukoresha amazi meza ni ingirakamaro, kuko bifasha abantu mu buzima bwa buri munsi kwirinda indwara ndetse no kuzikumira zitararaza.

Biba byiza iyo abantu bakorera hamwe, bakicara bakagira byinshi bagenda baganiraho, kuko bibafasha kungurana ibitekerezo, bakareba n'ibyo bashobora gukora kugira ngo, bibateze imbere.

Igihe twagize amahirwe, tukagira abaganga, basura uturere tugiye dutandukanye, kwisuzumisha birafasha cyane, kuko bidufasha kumenya uko duhagaze.

Amazi ni isoko y'ubuzima. Ni byiza ko dukanguririra abana bakiri bato, kunywa amazi asukuye ndetse bakayakura ahantu habugenewe kuko abafasha kugira ubuzima bwiza.

Kureba uko uhagaze ntako bisa, ni byiza kugana ikigo nderabuzima, bakagusuzuma bakareba ko ntakibazo ufite.

Birakwiye ko buri bigo by'amashuri hajya amazi, kuko amazi atuma tugira isuku, aho turi hose, ndetse akanafasha abantu mu mirimo igiye itandukanye.

Isuku ni isoko y'ubuzima tugomba gukaraba igihe twanduye ndetse n'gihe tugiye kurya tukabanza tukisukura ni muri urwo rwego ko dushishikariza n'abandi kubanza gukaraba intoki igihe bagiye kurya.

Ni byiza kuvoma amazi meza kandi asukuye ahantu habugenewe, kuko biradufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Duherutse kugira amahirwe mu Rwanda dusurwa n'umuganga uvuye muri Afurika y'epfo, atwigisha ibyo dushobora gukora kugira ngo twirinde indwara ya Marburg.

Gukorera hamwe ni byiza kuko iyo mwese muri kumwe bituma mufasha abaturage mugafasha abakene, mububakira uturima tw'igikoni ndetse no mu zindi gahunda zitandukanye.

Ni byiza kwambara imyenda yabugenewe, igihe turi mu kazi urugero nk'abaganga, kuko bifasha abarwayi kumenya abaganga babavura kandi bigatuma banababwira ibibazo bitandukanye bafite.

Tugomba kwita ku hantu tuvomera, kuko iyo tukoreye isuku, n'amazi tuvoma nayo aza afite isuku, kandi akanyura buri wese ugiye kuyanywa.

Gukoresha amazi asukuye twoza ibikoresho byo mu rugo ni byiza. Kuko biturinda kugira umwanda, bikica na mikorobe zigiye zitandukanye.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Ni byiza gukoresha ibikoresho byabugenewe kandi bisukuye, igihe tugiye kuvoma amazi. Kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Kujyana umugore utwite ku bitaro hakiri kare ni byiza kuko abaganga bamwitaho uko bikwiriye ndetse bagasuzuma neza niba nta kibazo afite.

Ni byiza ko hari ibigo byunganira ibitaro cyangwa se ibigo nderabuzima bigatanga imiti ku bantu bake batandukanye bityo rero ubuzima bwabo bugakomeza kugenda neza.

Ni byiza kuganiriza ahantu bagiye batandukanye ku byerekeye uko bakwita ku buzima bwabo barangwa n'isuku aho banyuze bose ndetse barwanya ibintu bitandukanye byatuma aho batuye hasa nabi.

Kuganiriza abaturage ni byiza kuko bibafasha gutanga ibitekerezo ndetse bakagira n'ibindi bigaho byabateza imbere.

Ni byiza ko iyo tugiye kunywa amazi tubanza gukaraba intoki tugakoresha ibikoresho byabugenewe harimo n'ibikombe cyangwag se icupa risukuye.

Biba byiza iyo tujyanye abana bacu ku kigo nderabuzima kitwegereye, bakabasuzuma bakareba niba nta ndwara zitandukanye baba bafite.

Gukingiza abana ni byiza mu buzima; kuko bibarinda indwara zitandukanye; harimo kugwingira, ni ngombwa ko tujya tubakingiza twihuse, nta gutinda.

Ni byiza kugira imishinga yita ku bana, kuko ibafasha mu bintu bitandukanye, harimo kubaha uburere ndetse n'uburezi, bagakura ari abayobozi b'ejo hazaza.

Ni byiza kugira ambiransi, kuko bidufasha gutanga ubutabazi bw'ibanze, mu gihe hari umuntu wakomeretse cyangwa wagize ikindi kibazo.

Amazi ni ingenzi mu buzima, tugomba kwigisha abana ahantu bashobora gukura amazi yizewe kandi asukuye kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza gukoresha ibikoresho byabugenewe igihe tuvoma amazi kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi tukanywa amazi afite ubuziranenge.

Ni byiza ko habaho imiryango ifasha abana kugira ngo babashe gukura mu mibereho yabo bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Amazi ni isoko y'ubuzima, birakwiye ko tugomba kugira isuku, tugakaraba intoki ndetse tukanasukura ibyo twambaye.

Dufite amahirwe mu Rwanda kuko dufite ibigo bibasha gusukura amazi yanduye bigatunganya amazi meza.

Ni byiza ko iyo tugiye kunywa amazi twagakwiye gukoresha ibikoresho byabugenewe harimo agakombe cyangwa se icupa risa neza.

Ni byiza ko abayobozi bagiye batandukanye bahura, bakagira ibintu bitandukanye baganiraho, babona byafasha abaturage ndetse n'igihugu gutera imbere.

Gukingiza abana bakiri bato ni byiza kuko bibarinda kwandura indwara zigiye zitandukanye ndetse bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Abajya inama imana irabasanga, ni byiza ko abantu bagahuye bakungurana ibitekerezo bakareba uko bakosora ibitameze neza.

Ni byiza ko buri gihugu cyagira inganda zigira zitandukanye kuko bifasha abandi bantu badafite amahirwe yo kugira inganda kubona ibintu byizewe.

Ni byiza ko dukoresha ibikoresho byabugenewe kandi bisukuye, igihe tugiye kuvoma amazi kuko bituma natwe tugira ubuzima bwiza.

Ni byiza gukoresha amazi meza kuko arinda indwara zitandukanye, mu gihe tugiye kurya cyangwa se tuvuye mu bwiherero tugomba gukaraba intoki dukoresheje amazi meza bityo tukarinda ubuzima bwacu.

Mu Rwanda tugira icyumba gihuza abayobozi bagiye batandukanye, iyo baje mu nama. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi ni ho habaye inama yigisha abantu uko barinda ibidukikije.

Ni byiza ko ahantu hahurira abantu barenze babiri bagakwiye kuhashyira amazi yo kujya bifashisha basukura intoki zabo.

Ntago ari byiza kuvoma amazi mabi kuko atera umwanda bigatuma umuntu uyanyweye arwara indwara zitandukanye bikamuviramo n'urupfu.

Gukararaba intoki igihe twanduye ni byiza kuko byica mikorope ndetse bigatuma tugira n'isuku.

Ni byiza ko abana nabo bahura bagakina bakaganira ndetse bakidagadura kugira ngo babashe gukura neza mu mibereho yabo bishimye cyane.

Isuku ni isoko y'ubuzima irabashishikariza gukoresha amazi meza haba ku yanywa se kuyatekesha se kuko iyo bigenze neza gutyo bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ni ngombwa ko tugana abajyanama b'ubuzima kuko badufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, baduha ubuvuzi bw'ibanze bakatuganiriza, bityo rero tujye tubagana igihe dufite ibibazo bigiye bitandukanye kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze.

Kugira ubuyobozi bwiza ntako bisa, u Rwanda rusigaye rukorana n'ibihugu bigiye bitandukanye kugira ngo rurusheho kwiteza imbere.

Mu Rwanda dufite inganda zigiye zitandukanye, harimo izitunganya amazi yanduye, agahinduka amazi asa neza.

Mu Rwanda haje uburyo bugiye butandukanye, aho usanga ahantu kure cyane y'umujyi babona amazi meza kandi asukuye, ibi bigatuma bakomeza kugira ubuzima bwiza.

Twite ku buzima bwacu tunywa amazi meza asukuye kuko birinda indwara, cyane cyane abana bacu abe aribo turinda cyane kuko aribo Rwanda rw'ejo hazaza.

Tugomba kunywa amazi meza asukuye, kuko iyo utabigenjeje utyo, usanga urwaye indwara zigiye zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Abajya inama Imana irabasanga, ni byiza ko abayobozi bicara bakagira ibintu bitandukanye baganiraho, babona byateza imbere abaturage.

Mu Rwanda dufite ibigo bigiye bitandukanye, byita ku buzima bw'abana bakiri batoya aho dusangamo unicefu ndetse n'ibindi byinshi.

Igihe twumva tutameze neza ni byiza ko tujya kwisuzumisha kugira ngo abaganga barebe ikibazo dufite kandi kugira ngo natwe tumenye uko duhagaze.

Ni byiza ko abayobozi bagiye batandukanye mu nzego zose, ko bahurira hamwe bakagira byinshi baganira, byateza abaturage ndetse n'igihugu imbere.

Ni byiza kwita ku bana bacu bakiri bato, tukajya kubasuzumisha, igihe twumva bafite umuriro cyangwa batameze neza, kuko bibafasha gukura bafite ubuzima bwiza.

Ni ngombwa ko buri muganga wese agira igitabo agomba kwandikamo abarwayi baje bamugana, kuko bibafasha kumenya umubare w'abarwayi bavuye umunsi ku wundi.

Ni byiza kwita ku buzima bwacu igihe twumva turembye kandi tutameze neza tugomba kwihutira kwa muganga tukamubwira ibibazo byacu akatuvura neza.

Ni byiza ko abayobozi bagomba guhura bakiga ku cyorezo cyugarije igihugu, ndetse bagafata n'imyanzuro yerekeye kuko twakirwanya.

Ni byiza kwivuza hakiri kare kuko birinda ubuzima bwa muntu guhura n'akaga mu gihe atigeze ajya kwa muganga, ndetse bishobora no kumuviramo urupfu.

Kwita ku bana ni byiza kuko bituma bagira ubuzima buzira umuze, bikabarinda kugwingira tubaha indyo yuzuye ndetse n'ibindi byose bisabwa.

Mu Rwanda haje uburyo bwiza, aho usanga abayobozi bagiye batandukanye bahurira hamwe, bakagira ibintu by'ingenzi baganiraho, ndetse n'ibyo bashobora gukora kugira ngo bateze abaturage imbere.

Bafite amahirwe mu Rwanda, aho usanga abayobozi bagiye batandukanye bahura bakagira byinshi baganiraho, byafasha abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni byiza ko buri bigo by'amashuri hashyirwaho ubukarabiro, kuko bifasha abanyeshuri kwirinda umwanda ndetse n'indwara ziterwa na wo.

Ni byiza kugira isuku, igihe dutumye umwana kuvoma, ni byiza kumuha igikoresho cyabugenewe kugira ngo abashe kuzanamo amazi, asa neza kandi yizewe.

Biba byiza iyo abayobozi bafashe umunsi umwe mu kwezi bakaganira nabaturage ku bibazo bigiye bitandukanye, kuko bifasha abaturage kumva ko abayobozi babo babitaho.

Ni ngombwa ko mu bigo by'amashuri naho haboneka amakarabiro meza kuko bibarinda kugira umwanda ndetse no guhura n'indwara zitandukanye.

Ni byiza ko dukoresha ibikoresho byabugenewe igihe tugiye kuvoma amazi, kuko bidufasha kugira isuku ndetse n'amazi agakomeza gusa neza.

Ni byiza kujyana umwana kwa muganga igihe atameze neza kuko haba hari abaganga bagiye batandukanye, babasha kumwitaho bakareba ikibazo afite.

Gukaraba intoki ni byiza kuko biturinda kugira umwanda mu gihe tugiye kurya tugomba gukorera isuku mu biganza byacu kugira ngo tutaza guhura n'idwara zitandukanye.

Dufite amahirwe mu Rwanda, aho bazanye ibigo bikusanya amazi maba yakoreshejwe bikongera bikayasukura neza akongera agakoreshwa.

Ubushakashatsi bwakozwe, bwabonye ko urubyiruko aribo mbaraga z'ejo hazaza, ni ngombwa ko tugenda tukaganira ahabugenewe, tukareba ko twakiteza imbere.

Ni byiza ko twita ku bana bakiri bato, tukabajyana ku bitaro bakabakingira kuko bituma bagira ubuzima bwiza ndetse bagakura nta ndwara zitandukanye bafite.

Abana ku ishuri ni byiza kuko bituma bagira ubumenyi bw'ibanze ndetse bakaba abayobozi beza b'ejo hazaza bagafasha igihugu gutera imbere ndetse no kuzamuka mu miyoborere myiza.

Abanyabuzima bagira uruhare rukomeye mu kwita ku buzima bw'abantu, umunsi ku wundi, ni muri urwo rwego ko haje uburyo bwo kubigisha uko bakomeza kwita ku bantu.

Ni byiza ko abantu bagira urubuga bagomba kwisanzuriraho kuko bibarinda kuba bagira ibibazo byo mu mutwe ndetse bigatuma bigirira icyizere cyo gukora n'ibindi bitandukanye.

Ni byiza kuganiriza abantu bagiye batandukanye ku bijyanye n'ibyo bakora kugira ngo bite ku buzima bwabo, tukabegera, tukumva ibibazo baba bafite.

Biba byiza igihe twumva tutameze neza ko twagana abaganga, bakadusuzuma, bakareba niba nta ndwara zitandukanye dufite.

Ni byiza kwegera bagenzi bacu tukajya tubaganiriza nkuko mubibona uyu muntu arababaye arihebye ariko akeneye umuntu umugira inama ndetse umuba hafi, ni njye ni wowe yo kugira ngo dufashanye tuvane mu bwigunge.

Wari uzi yuko itaka rivamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, waryifashisha ubumba inyamaswa, ukabumba abantu, ndetse n'ibindi byatuma utera imbere.

Ni byiza ko ababyeyi bafite abana batoya bajya bagana ibigonderabuzima bakabigisha ibyo bashobora gukora kugira ngo abana babo bakure bafite ubuzima bwiza.

Tugomba kugira abantu batugira inama, mu buzima bwa buri munsi, kuko bafasha cyane cyanega ingo ziri mu makimbirane, kongera kwiyunga.

Ni ngombwa ko abayobozi begera abaturage bakabigisha ku bijyanye n'ubuzima bwabo, bagafata imyanzuro ndetse bakabereka n'uko baburinda.

Ni byiza ko abantu bamwe na bamwe bahura bakizihiza bimwe mu birori kugira ngo bashobore kwishima ndetse no gufatanya mu buzima bwa buri munsi.

Inama iherutse kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, yahuje abayobozi bagiye batandukanye, bareba ibyo bashobora gukora kugira ngo bite ku buzima bwo mu mutwe.

Kugira ubuyobozi bwiza ntako bisa kuko bumva ibitekerezo by'abaturage ndetse bagaharanira gukora ibyateza imbere, aho bari hose bakagira n'ubutabera muri bo.

Ni byiza kugira ahantu dukorera inama kuko batuma twigiramo ibintu byinshi tugafatiramo imyanzuro itandukanye, bityo bigafasha igihugu cyacu kwiteza imbere ndetse no kuzamuka mu bukungu.

Kwita ku barwayi bo mu mutwe birafasha cyane kuko iyo tubegereye, tukabaganiriza bagira icyizere cyo kuvuga yuko bazakira na bo.

Ni byiza kugira umuntu uhagarariye abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe, kuko abafasha kugera kuri byinshi, akabaganiriza, akabigisha, bityo rero bakumva ko batari bonyine.

Ni byiza kwigisha abana bakiri batoya imbyino gakondo, kuko bakura bafite umuco ndetse bagakura bakunda igihugu cyabo.

Kwita ku bantu bafite ikibazo cyo mu bwonko ni byiza cyane kuko birabafasha bakumva ko nabo ari abantu nk'abandi, kandi bashoboye.

Ni byiza ko twegera abana bo mu byaro, bakeneye ubufasha bwacu, kuko iyo tubaganirije, biba byiza ndetse bakagaruka ku murongo.

Birakwiye, ko twegera bagenzi bacu, batameze neza, tukabaganiriza, tukumva ikibazo bafite, kuko hari abo usanga, bibaviramo, gufata umwanzuro utari mwiza.

Ubuyobozi bwiza ni ubwegera abaturage bukumva ibibazo bafite ndetse bakanafata ingamba zo kurwanya ibyo byose.

Nibyiza kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye bigaragara mu turere tw'igihugu cy'u rwanda kuko bifasha abaturage kwisanzura bakavuga ibitagenda neza aho baba.

Nibyiza kugira icyumba cy'inama kuko gifasha abaturage ndetse n'abarwayi kwigiramo ibintu byiza uko bakwita ku barwayi ndetse n'abafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Ni byiza kwegera abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, kuko iyo ubaganirije hari byinshi bagenda bahindura mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Buri mwaka hari inama ihuza abayobozi bagiye batandukanye, biga uburyo barinda ubuzima bw'abantu ndetse n'uburyo batanga ubutabera ku bantu bose.

Mu gihe ufite ikibazo cyangwa wumva utameze neza, si ngombwa kukihererana wenyine; wagakwiye kugana ikigo nderabuzima, bakakuganiriza ukabasha kumera neza.

Tugomba kugira abaganga bavura abarwayi bo mu mutwe kuko babafasha kumva bameze neza ndetse bakamenya ko nabo ari abantu kandi bafite ubushobozi nk'ubw'abandi.

Ni byiza kwiga ku buzima kuko bifasha abarwayi, ndetse n'abaturage kumenya uko bakwitaho, ndetse bakanirinda mu bihe bigiye bitandukanye.

Kwibuka abacu bazize jenoside mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane, n'ingenzi mu rwanda kuko bamwe bapfuye ari inzira karengane abandi bicwa urubozo.

Birababaza iyo ubonye umuntu w'umugabo arira cyangwa se atishimye, ni byiza ko twegera bagenzi bacu igihe batameze neza tukabaganiriza, kandi tukabahumuriza kuko birabafasha cyane.

Urubyiruko ni twe mbaraga z'ejo hazaza. Birakwiye ko twakwihangira imirimo, binyuze mu kungurana ibitekerezo na bagenzi bacu.

Dufite amahirwe mu Rwanda kuko tugira imikoranire n'ibihugu bigiye bitandukanye, haza inzobere zitandukanye mu kuvura abantu baba barwaye, ni ngombwa ko igihe baje tubasha kubagana, bakatuvura neza.

Kwihangira imirimo ni byiza niyo wahera ku mafaranga make ariko abantu bakabona iby'ibanze birabafasha cyane, ni muri urwo rwego twakwihangira imirimo aho turi hose.

Mu gihe wakorewe ihohoterwa, ugomba kujya ku kigo cyitwa Isange One Stop Centre kuko ari cyo gifasha abahuye n'ihohoterwa, kikabarenganura, bityo rero bagakomeza kubaho neza.

Ni byiza ko tugomba kwita ku bantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kuko iyo tubegereye, tubarinda kwigunga bityo rero bakumva ko bitaweho.

Ko igihe tutameze neza twakwegera ivuriro rituri hafi kuko baradusuzuma bakatwitaho bakamenya n'uburwayi dufite.

Biba byiza kugira ngo ubona abana bakiri bato bishimye kandi baseka, ni ikimenyetso kigaragaza ko baba bafite ubuzima bwiza.

Dufite amahirwe mu Rwanda yuko tugira ikigo kibasha kwita ku buzima bw'abantu, aho tugira ibigo nderabuzima, mu turere twose tugize u Rwanda.

Dufite amahirwe mu Rwanda, kuko inama iherutse kuba umuyobozi wacu Jeannette Kagame yatwigishije uko twakwita ku buzima bwacu, ndetse n'uko dukwiye kugira isuku aho tuba hagiye hatandukanye.

Abana bacu tugomba kubitaho neza tukabavuza mu gihe barwaye cyane cyane nk'igihe bagize ikibazo cy'amenyo tugomba kubajyanira abaganga bakabitaho nk'uko bikwiye.

Ni byiza ko abaganga igihe badusuzuma, bakoresha ibikoresho byabugenewe, kugira ngo bagire amakuru yizewe ku bisubizo baba babonye.

Tugomba kwita ku menyo yacu, tukayasukura neza, kuko iyo utayasukuye ni bwo usanga yagiyemo imyanda, bigatuma ahora akurya, ndetse bikaba ngombwa ko unayakuza, akavamo.

Ni byiza kwita ku menyo yacu tukayoza neza igihe tubyutse saa sita ndetse na nijoro.

Mu gihe uri gukura amenyo, ni ngombwa ko warinda umurwayi, ukamwambika ibintu biratuma adakomereka, kugirango ubuzima bwe bukomeze kugenda neza.

Uburyo tugomba kwita kumenyo yacu, tugomba kuyoza mu gitondo saa sita no ku mugoroba nyuma yo kurya, igihe ugiye kuryama, ndetse n'iyo ubyutse mu gitondo uba ugomba kuyitaho.

Igihe wumva utameze neza cyane cyane amenyo akurya cyane, kugana ikigonderabuzima biragufasha, kuko hari ibikoresho bigiye bitandukanye byizewe abaganga bakoresha basuzuma amenyo.

Ni byiza ko tugana ikigo nderabuzima igihe twumva amenyo yacu atameze neza, kuko amenyo ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ese wari uziko mu Rwanda tugira ibigo bigiye bitandukanye bivura amenyo? dufite amahirwe kuba dufite ikicaro gikuru kivura uburwayi bw'amenyo mu Rwanda.

Kugana ibigo by'amashuri abanza bigiye bitandukanye ni byiza. Kuko abana babasha gukurikira neza ndetse n'ibyo ba abigishije bakabishyira mu bikorwa.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Ni byiza ko dusukura amenyo yacu kugira akomeze gusa neza, tukanashishikariza n'abandi bantu kujya basukura amenyo.

Kwita ku buzima bwacu ni ingenzi, iyo twitaye cyane cyane ku menyo yacu bituma tuyarinda uburwayi bugiye butandukanye.

Igihe wumva amenyo atameze neza, ni byiza kwihutira ikigonderabuzima kikwegereye bakagusuzuma bakareba ikibazo waba ufite.

Ni byiza ko buri kigo nderabuzima kigira icyumba kihariye basuzumiramo umurwayi, bituma umurwayi avuga ikibazo afite ndetse na muganga akabona uko amwitaho neza.

Ni byiza ko buri kigo nderabuzima, kigira icyumba cyihariye, dusangamo ibikoresho abaganga bifashisha basuzuma abarwayi.

Ni byiza kwita ku bana bacu bakiri batoya, igihe umwana akubwiye ko atameze neza, wagakwiye kumujyana ku bitaro, bakamusuzuma, bakareba ikibazo yaba afite.

Ni byiza kwita ku menyo yacu, tukayasukura mu gitondo, saa sita ndetse na n'imugoroba, kuko bituma asa neza kandi akagira ubuzima bwiza.

Dufite iterambere mu Rwanda, aho usanga buri kigo nderabuzima gifite icyumba gisuzumiramo abarwayi ndetse icyo cyumba kikaba gifite ibikoresho byabugenewe.

Amenyo ni ubuzima twite ku menyo yacu tuyasukura, dushyiramo umuti ndetse tuyitaho cyane uko bikwiye kuko bituma amera neza.

Birakwiye ko twajya twita ku menyo yacu, kuko bagira uruhare runini ku buzima bw' umuntu, atuma tumenya kurya agatuma tuneseka neza.

Ni byiza gukoresha ibikoresho byabugenewe dusuzuma abantu indwara z'amenyo kuko bibafasha kubarinda izindi ndwara.

Amenyo ni ingenzi mu buzima kuko adufasha mu bintu bigiye bitandukanye, harimo kurya ndetse n'ibindi byinshi bityo mureke tuyiteho kuko adufatiye runini.

Ni byiza kugira abaganga badusobanurira uko twakwita ku menyo yacu, bityo igihe tutagize amahirwe yo kubabona, tugomba kugana ibigo nderabuzima baba bahari bakaduhugura.

Duharanire ko amenyo yacu ahora acyeye ndetse ahora agaragara neza kuko biturinda indwara nyinshi zitandukanye.

Kwita ku menyo yacyo ni byiza kuko bifasha umuntu uwo ari we wese guhora akeye cyane ndetse agahorana ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ufite amenyo meza bituma uhora useka ndetse abantu bakakwisanzuraho cyane kuko baba babona uri umuntu uri umunyamahirwe.

Yacu ni ingirakamaro adufasha kurya, akadufasha guseka bityo rero tugomba kuyitaho kuko agaragaza ko umuntu ari mwiza cyane.

guhora wishimye ni ikimenyetso kigaragaza yuko uri umuntu wuzuye kandi udafite ibibazo uhorana akanyamuneza no mu buzima bwe bwa buri munsi

Ni byiza kwita ku menyo yacu, binyuze mu kuyasukura igihe yanduye ndetse igihe twumva atameze neza, tukagana ikigo nderabuzima kitwegereye bakadusuzuma.

Ni byiza ko umuntu wese yahabwa ijambo, akavuga igitekerezo cye, uko abona ibintu bigomba kugenda ndetse abantu bose bagashyigikirana hagati yabo.

Gukora siporo, ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko ituma tugira ubuzima bwiza, ikaturinda ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, indwara ndetse n'ibindi.

Kurya indyo yuzuye ni ingenzi mu buzima. Dusangamo ibyubaka umubiri ibitera imbaraga n'ibirinda indwara, turashishikariza buri umwe kujya ategura ifunguro rikubiyemo ibyo byose.

Ni byiza kwita ku bantu bakuze kuko baba badutezeho byinshi, ndetse bakadukeneraho ubufasha butandukanye kuko baba babona dushoboye.

Gukora siporo byibuze rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru, byadufasha mu kurinda umubiri wacu indwara ziterwa no kudakora siporo.

Ni byiza ko iyo hari umurwayi uri kwa muganga udashoboye gukora imyitozo aba afite abantu bagomba kumufasha kuyikora kandi bakamuba hafi.

Mu gihe umurwayi aje akugana, ni ngombwa ko umwitaho nk'umuganga kuko ari zo nshingano zawe kandi ukamuha imiti uko bikwiye ndetse ukamwereka n'uburyo azajya ayinywamo.

Ni byiza ko duha ubufasha abantu babikeneye nk'umuntu uba uri kwa muganga arwaye ugomba kumuha akantu kamusindagiza, mu gihe ashatse kugira icyo akora.

Iyo umuryango wicaye hamwe ukaganira biba ari byiza, bareba ibyateza imbere umubano wabo ndetse n'ibyo bashobora gukorera abana babo kugirango bagire ubuzima bwiza.

Igihe twumva tutameze neza ni byiza kugana abaganga, kugira ngo badusuzume barebe indwara dufite. Ibyo biradufasha kwisuzumisha ku gihe kandi vuba.

Ntibivuze ko abantu batagomba kugana ibigo nderabuzima bibegereye. Igihe utameze neza ni byiza kwihutira kwa muganga kugira babashe kugusuzuma, barebe ikibazo ufite.

Iyo mu muryango mwishimye bigira ingaruka nziza ku bana banyu, kuko mubasha kubabonera igihe, mukabaganiriza, mukumva ibibazo bafite

Kunywa imiti baduhaye kwa muganga ni byiza, kuko bituma dukira vuba kandi tugakomeza kugira ubuzima bwiza.

Kunywa imiti neza bituma umuntu akira vuba igihe kwa muganga bagutegetse kunywa imiti saasita na nijoro ni byiza kubyubahiriza.

Ni byiza ko abaganga baganiriza abarwayi kugira ngo bagarure ikizere cy'uko bazakira indwara barwaye.

Tugomba kubwira neza abarwayi igihe baje batugana tukabaha imiti ndetse tukabereka n'uburyo bagomba kuyifatamo kugira ngo bite ku buzima bwabo.

Kugira umuryango ni byiza, kuko birinda gutera umuntu kwigunga, akumva ko ari kumwe n'abandi, bigatuma ahorana icyizere cy'uko ari umwana nk'abandi.

Ni byiza gukina imikino igiye itandukanye, kuko idufasha kuruhuka mu mutwe tugatekereza byihuse, ndetse tugakomeza no kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza kwihutira ku bitaro igihe wumva utameze neza, kuko baguha imiti yabugenewe kandi igufasha gukira neza.

Kwita ku muntu warembye ni byiza cyane, ugomba kumufasha ukamusindagiza, ukamwereka ko atari wenyine kandi ukamuha icyizere cy'uko agomba gukira.

Ni byiza ko amafunguro dufata umunsi ku wundi twagakwiye kurya indyo yuzuye, kuko bidufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza kuganiriza abana bacu kuko bibafasha gukura neza mu bwonko bagatekereza ibintu byagutse ndetse bakishima.

Tugerageze gukora siporo kuko idufasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Kugira inshuti ni byiza mu buzima ushobora kwigomwa umwanya ukajya gusabana n'inshuti zawe mukaganira mukishima ndetse mukagera kuri byinshi byiza.

Abaganga bagira uruhare rukomeye mu kuvura abarwayi. Ni byizayiza kugana ikigonderabuzima igihe wumva utameze neza kugira ngo bakuvure.

Mu Rwanda dufite umuyobozi mwiza dukunda cyane ari we Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, aho usanga urubyiruko, abana, abageze mu zabukuru bashima ibikorwa yagiye atugezaho.

Ni byiza ko twegera abantu batameze neza cyangwa se abageze mu zabukuru, tukabaganiriza kugira ngo batarushaho kwiheba.

Igihe tutameze neza twarahawe imiti yo kunywa, ni byiza kunyinywa ku gihe, kandi tugakoresha amazi meza asukuye, kuko bidufasha gukira neza indwara turwaye.

Ni byiza ko tugomba kwegera abaturage, bakatubwira ibitekerezo byabo, ibibazo, ndetse n'uko baba bumva byagenda, kugira ngo babashe kuzamuka mu mibereho.

Kwita ku bantu bakuze ni byiza kuko baba bashaka abantu babereka urukundo, bakabona ko bitaweho ndetse bagakomeza kugubwa neza.

Igihe twavuye ku bitaro bakaduha imiti tuzajya tunywa, ni byiza kuyinywera ku gihe kuko bidufasha gukira indwara turwaye.

Ni ngombwa ko Bakipimisha indwara zitandukanye kuko bifasha umuntu wipimishije kumenya uko ahagaze ndetse n'uko yakwiyitaho mu gihe asanze arwaye zimwe muri izo ndwara.

Ni byizayiza kujya ku kigonderabuzima igihe twavunitse kuko bafite ibikoresho byabugenewe bakwambika bikabasha kunanura amagufa yawe.

Siporo ni ingenzi ku bantu bose haba abakiri bato cyangwa abakuze ni byiza kuyikora kuko bituma bagira ubuzima bwiza ndetse bigatuma n'umubiri ukomeza gukora.

Ni byiza ko abaganga bita ku barwayi baje babagana, bakabaganiriza ndetse bakabumva kuko bifasha umurwayi kwisanzura akavuga ikibazo afite.

Kugira umunezero ntako bisa, iyo abantu bateranye barenze umwe, bituma bungurana ibitekerezo, bakaganira kuri byinshi bigiye bitandukanye, bakareba n'uburyo bakiteza imbere.

Ni byiza ko abaganga bambara imyenda yabugenewe igihe bagiye kwita ku barwayi, iyo umuganga aganirije umurwayi bituma agarura icyizere, akanakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko abaganga bita ku barwayi, bakabibutsa kunywa imiti neza kandi ku gihe, kuko bifasha abo barwayi gukira indwara barwaye.

Ubuhanga buva mu gusoma ibitabo bigiye bitandukanye, kuko umenya byinshi abantu bagenda bakora harimo ibyiza cyangwa se ibibi.

Gusukura umubiri ni byiza kuko bifasha umuntu gutekereza neza akagabanya ibibazo ndetse akanasa neza.

Dufite amahirwe mu Rwanda kuko twigisha abantu uko bakwirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse n'ibyo bashobora gukora bakarwanya indwara ya kanseri.

Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu Rwanda haje icyorezo cyitwa covid cumi n'icyenda, aho abaganga batandukanye ndetse n'urubyiruko rw'abakorerabushake, bakingiraga abantu iyo ndwara kugira ngo idakomeza gukwirakwira.

Ni ngombwa kumenya ubuzima bwawe, ukirinda icyorezo cya kovide cumi n'ikenda, kugira ngo itazakuzahaza, ukabaho utanezerewe.

Mu rwanda, usanga abayobozi b'ibigo nderabuzima bagiye batandukanye, bashishikariza abaturage ibintu bashobora gukora kugira ngo birinde kanseri, kuko ni indwara mbi yangiza ubuzima bwacu.

Mu Rwanda haherutse kubera inama, ihuza ibihugu bigiye bitandukanye, ku nshuro ya kabiri, aho bigishaga abantu, uko bakwita ku buzima bwabo.

Ni byiza kugira abantu batugira inama, tugakurikiza amabwiriza baduha ndetse ibyo batwigisha tukagerageza kubishyira mu bikorwa.

Mu rwanda dufite imikoranire n'ibihugu bigiye bitandukanye, aho ku nshuro ya makumyabiri, u Rwanda rwahuriwemo n'abayobozi bagiye batandukanye, bigisha abantu ko bakwita ku buzima bwabo.

Ni byiza ko batugaragariza abayobozi batuyobora kuko bidufasha kumenya iyo wagize ikibazo aho wagishyira ndetse n'ukuntu yabigufashamo.

Ni byiza kugana ikigo nderabuzima kikwegereye, igihe wumva utameze neza. Kuko haba hari abaganga bagiye batandukanye bafasha abarwayi kubasuzuma.

Mu gihe umuntu yagize ikibazo, ni byiza ko urubyiruko ndetse n'abaganga bagomba kumwitaho hakiri kare, kugira ngo ubuzima bwe butajya mu kaga.

Urubyiruko nitwe mbaraga z'ejo hazaza, ni muri urwo rwego ko twakwirinda virusi itera sida kuko ituma abana bakiri batoya batarangiza amashuri yabo neza.

Ni byiza ko tujya kwisuzumisha igihe twumva amenyo yacu atameze neza kuko hari abaganga b'inzobere, mu bijyanye no gusuzuma amenyo bakareba ko nta kibazo afite.

Ni amahirwe kugira abantu batwegera bakatuganiriza ku by'ubuzima bwacu, kuko bidufasha kumenya bimwe mu bintu tutari tuzi harimo n'uburyo ushobora kugira isuku, uburyo ushobora kwita ku mubiri wawe ndetse n'ibindi.

Tugomba kwirinda sida kuko ari icyorezo kibi kandi cyugarije igihugu, rero twe nk'urubyiruko twirinde kandi dushyireho umwete mu kubungabunga ubuzima bwacu.

Ni byiza ko tugana ikigo nderabuzima tukajya kwisuzumisha, igihe twumva tutameze neza, kuko muri iyi minsi usanga abantu benshi barwara diyabete kubera kurya ibiryo birimo amavuta menshi.

Tugomba kuganiriza abana bacu ku buzima bwabo, kugira ngo bamenye uko bitwara mu gihe bari gukura, kugira ngo batazashobora kubwangiza.

Ni byiza ko dusoma ibitabo bigiye bitandukanye, kugira ngo tubashe kumenya ibyo twakora tubungabunge ubuzima bwacu.

Mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri habaye inama ihuza abayobozi bagiye batandukanye bagamije kwigisha abaturage uko bakwita ku buzima bwabo.

Mu Rwanda haje uburyo bwo guteza imbere abagore binyuze mu kwihangira imirimo, mu kuzana udushya ndetse no kuba ari abayobozi b'ejo hazaza.

Ni byiza ko buri karere kajya gafata umunsi umwe mu kwezi kakigisha abakobwa uko bakwirinda inda zitateganyijwe.

Abayobozi bacu bahora batwigisha gukora tukiteza imbere bityo rero tukazamuka mu bukungu ndetse tukiyongera no mu mibereho ya buri munsi.

Ni ngombwa ko abayobozi bahura bakita ku bintu bigiye bitandukanye, cyane cyane ku buzima, bagafatira hamwe ingamba zo kuburinda ndetse no kubwitaho neza.

Buri mwaka mu Rwanda haba igikorwa cyo kwigisha abantu bagiye batandukanye uko bakwita ku buzima bwabo ndetse haza n'inzobere zigiye zitandukanye zitanga ibiganiro.

Ni byizayiza kwambara imyenda y'ubwirinzi igihe habayeho n'icyorezo runaka cyangwa se n'izindi ndwara zandura cyane.

Ni byiza ko abarwayi bagira ibitanda baruhukiraho kuko birinda ubuzima bwabo ndetse bagashobora kwitabwaho neza n'abaganga mu gihe barwaye cyane.

Gukoresha ibikoresho byabugenewe bifasha abaganga ndetse n'abarwayi kuko umuganga abasha kubona amakuru yizewe kandi akavura umurwayi neza.

Kugira ibigo abantu bakoreramo ubushakashatsi ni byiza kuko bibafasha kuvumbura ibintu bigiye bitandukanye bakwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni byiza ko abaganga bambara imyenda yabugenewe igihe bari mu kazi, kuko bibafasha gusuzuma abarwayi neza, kandi bigatuma babitaho uko bikwiye.

Ni byiza kugira inyubako nziza kuko ziba zigaragara neza ndetse zigakurura abakerarugendo bakaza gusura ibyiza bitatse u Rwanda.

Mu karere ka Burera, hari ibitaro bibasha kwita ku barwayi bagiye batandukanye, bituma bakomeza kwitabwaho mu gihe cyiza kandi bakabaha n'imiti.

Uko igihe cyagiye gitambuka indwara ya kanseri byagaragaye ko yagiye yica abantu benshi cyane, gusa dufite amahirwe ko dufite ikigo kibasha gusuzuma iyo ndwara kigatanga imiti abantu bakabasha gukira.

Ni byiza ko buri bitaro bigira isuku, bikirinda kugira umwanda kuko bituma abarwayi bahabwa serivisi nziza kandi yihuse.

Usanga mu Rwanda buri karere gafite inzu y'ababyeyi babasha kubyariramo, kuko bifasha abaganga kubasuzuma neza kandi bakabitaho.

Ubuzima burahenda, ni byiza ko abaganga bita ku barwayi, bakabavura neza, bakabasuzuma, bakareba indwara bafite zigiye zitandukanye.

Ni byiza ko twabona ahantu tugura imiti igihe turwaye kuko bidufasha kwivura dukoresheje ubutabazi bw'ibanze.

Shyira inzu yabugenewe dusuzumiramo abarwayi birafasha cyane, kandi binarinda kugira akavuyo aho tugiye kwivuriza.

Ni byiza ko abaganga bambara imyenda yabugenewe igihe bari mu kazi kuko bifasha abarwayi kumenya abo bari bubaze amakuru agiye atandukanye.

Ni byiza kugira isuku, kuko bituma ubuzima bwacu bugenda neza ndetse bigatuma biturinda indwara nyinshi zitandukanye, harimo iz'umwanda ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibitaro biherereye mu karere ka Nyarugenge, byakira abarwayi bagiye batandukanye ndetse n'abaturage bikabitaho neza kandi uko bikwiye.

Isuku ni isoko y'ubuzima ni byiza gusukura ahantu hagiye hatandukanye kuko bidufasha kurinda neza ibidukikije.

Isuku ni isoko y'ubuzima. Ni byiza ko tugira isuku aho tuba hagiye hatandukanye, tugatera indabo, amajaride ndetse n'ibindi bituma hasa neza.

Ni ngombwa ko buri kigo nderabuzima kigira ibikoresho bihagije bisuzuma abarwayi kuko bifasha abarwayi kubona indwara barwaye ndetse bakavura.

Dushishikarize abagore batwite muri iyi minsi kujya bagana ibigo nderabuzima kuko usanga abenshi batagana n'ibigo nderabuzima babasha guhura n'ibibazo.

Ni ngombwa gutanga ishimwe cyane cyane ku bana bato kuko bibatera umuhate wo gukomeza kwiga ndetse no kwiyumvamo ko bashoboye.

Ni ngombwa ko twakwipimisha umuvuduko w'amaraso, kuko bidufasha kumenya uko duhagaze, tukabaho tumeze neza ndetse turiyitaho cyane.

Turashishikariza ababyeyi batwite ndetse n'abari hafi kubyara ko hari icyumba cyabugenewe babasha kubavuriramo.

Turashishikariza abageze mu zabukuru kujya bajya kwipimisha umuvuduko w'amaraso. Kuko ubushakashatsi bwakozwe bwasanze ko aba bageze mu za bukuru bakunze kwibasirwa n'iyi ndwara.

Isuku ni isoko y'ubuzima, usanga ibigo nderabuzima bigira isuku ndetse n'abarwayi bagiye kwivuza bakabasha kwitabwaho neza.

Ni byiza ko buri kigo nderabuzima cyagira inzitiramibu kuko ituma abarwayi batagerwaho n'udukoko dutera indwara ya malariya.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya giherereye mu mujyi wa kigali usanga cyakira abarwayi barenga ibihumbi kikabavura neza ndetse bagataha bishimye.

Inyubako tubikamo imiti, ni nziza cyane kuko biyirinda kwangirika ndetse ikagera ku barwayi imeze neza, ikabasha kubavura uko bikwiye.

Ibigo nderabuzima bigiye bitandukanye ni byiza ko bigira ibyumba byihariye bisuzumiramo abarwayi kuko bifasha abarwayi kwitabwaho neza bagakira.

Ababyeyi n'abo bakeneye ahantu babyarira kuko baba bagomba kwitabwaho neza na muganga, ni ngombwa rero kugira itandukaniro hagati y'izindi nyubako.

Isuku ni isoko y'ubuzima, dufite amahirwe mu Rwanda kuko twubakiye ibigo nderabuzima byinshi bigiye bitandukanye, biha serivise abaturage bagenda babigana.

Ni byiza kugira ububiko bw'imiti kuko bifasha abaganga kumenya aho iba iherereye kugira ngo bitaza kubagora mu gihe bagiye kuyihereza abarwayi.

Usanga uturere tugiye dutandukanye tugira ibigo nderabuzima bihagije, harimo icyumba cyakira ababyeyi bagiye kubyara ndetse hariyo n'abaganga b'inzobere mu gufasha ababyeyi kubyara neza.

Iyo umurwayi yagiye kwa muganga ni byiza ko haba hari n'ibyuma byunganira abaganga, bikabafasha kubona neza indwara arwaye.

Ni byiza kugana ikigo nderabuzima kikwegereye igihe wumva utameze neza kuko uhasanga abaganga bagiye batandukanye, bakakwitaho bakakuvura neza.

Ni byiza ko mu gihugu habamo ibitaro biri mu turere dutandukanye kuko bifasha abarwayi kwivuza byihuse bityo rero bigatuma batarembera mu ngo zabo.

Kugira amasoko acuruza imiti igiye itandukanye bigira akamaro cyane, iyo umuntu atabasha kubona imiti akeneye ku bitaro agana ibyo bigo bikamworohera kubona iyo miti yari yabuze.

Ni byiza ko dukoresha ibyapa bigiye bitandukanye ku bigonderabuzima byacu kuko bifasha kuyobora abantu baje batugana.

Ni ngombwa ko twakira ahantu tubika imiti kuko bifasha umuganga kumenya aho iherereye ndetse bikanarinda akajagari.

Kugira umutekano ni isoko y'iterambere, usanga ibigo bigiye bitandukanye mu Rwanda, bibasha kugira abantu baherekeza abarwayi baba baje bagana ibyo bigo.

Dufite amahirwe mu rwanda kubera ubuyobozi bwiza dufite, aho usanga buri kigo nderabuzima gifite icyumba cyihariye basuzumiramo umurwayi.

Ni byiza ko tujya kwisuzumisha, indwara zigiye zitandukanye kuko bidufasha kumenya uko duhagaze.

Ni byiza ko igihe twumva tutameze neza, twagana Farumasi itwegereye, tukabwira abaganga ikibazo dufite, bakadufasha kuduha umuti wadukiza.

Ni ngombwa ko, mbere y'uko abaganga batangira akazi, bashaka ahantu bahurira, bakabanza kuganira ku bibazo bimwe na bimwe, kugira ngo babone ukuntu bita ku barwayi bafitetse bagendeyeho.

Ni byiza kugira abaganga batwitaho mu gihe turwaye ndetse n'abandi bita ku bagore batwite, ibyo byose rero bifasha abarwayi kubona ko bitaweho neza kandi bahabwa serivisi nziza nk'uko babyifuza.

Ni byiza ko buri kigo nderabuzima kigira ibitanda byizewe abarwayi babasha kuryamaho, kuko bituma batavunika.

Ni ngombwa kugira ibigo bivura kanseri kuko iyo ndwara irica kandi ikagira nabi bityo rero tubyiteho ndetse tuyirwanye hakiri kare.

Isuku ni isoko y'ubuzima, usanga ibigo nderabuzima hafi ya byose, bigira isuku, bikagira ibyapa biyobora abarwayi baje babigana.

Ni byiza ko buri bitaro byose bigira ibitanda abarwayi bagomba kuryamaho, kuko mu gihe umuntu aje yarembye, bimufasha kuruhuka neza ndetse akabona kwitabwaho neza na muganga.

Ni byiza ko tugira umutekano uhagije ku kigo nderabuzima; kuko haba hahurira abantu benshi, bamwe baba bafite imigambi itari myiza.

Ibiti ni ingenzi mu buzima bwacu kuko umuntu abyifashisha ari gukuramo imiti, akingaho izuba ndetse akumva atekanye.

Gukoresha ikoranabuhanga ni byiza ku baganga, kuko bibafasha gusuzuma abarwayi mu gihe gitoya ndetse bakagira n'amakuru yizewe.

Ni byiza ko buri karere kagira farumasi, cyangwa se ahantu abantu bashobora gukura imiti, kuko bibafasha kubona iyo miti ku gihe kandi mu buryo bwizewe.

Ikigo nderabuzima cya Gihundwe usanga hari abaganga b'inzobere bagiye batandukanye, bavura abantu amaso bakabasha gukira neza.

Dufite amahirwe mu rwanda kuko usanga buri karere gafite ibitaro bibasha kwita ku barwayi. Igihe urwaye urembye ntabwo ubura abaganga bakwitaho kandi bakakuvura neza. Ni amahirwe nkatwe nk'abanyarwanda dufite.

Ni ngombwa ko buri bitaro byagira aho abarwayi bivuza bataha bagomba kuvurirwa kugira ngo bigabanye akavuyo k'abantu benshi mu bitaro.

Iyo umurwayi abonye ahantu aruhukira igihe arwaye bimufasha cyane kumva ko atekanye kandi akiha icyizere cy'uko abaganga bari buze kumwitaho neza.

Ikigonderabuzima cya matyazo kita ku barwayi bagiye batandukanye, aho usanga bafite abaganga babasha kwita ku barwayi ndetse bakabaha n'imiti uko bikwiriye.

Umurwa mukuru w'u Rwanda ari wo Kigali, hari ibitaro bikuru bivura abantu barwaye indwara z'umutima, ibyo bitaro tubisanga mu karere ka Nyarugenge.

Umwami fayisari ni ibitaro mpuzamahanga bihuriraho n'abantu benshi batandukanye baje kwivuza indwara zigiye zitandukanye kuko bikora neza ndetse bigatanga serivisi nziza ku babigana.

Dufite amahirwe mu Rwanda y'uko dufite ibyumba basuzumiramo abarwayi ndetse bikaba bifite n'ibikoresho byabugenewe.

Kuvura nta muntu n'umwe uba uhejwe kuko usanga bakira abantu bagiye batandukanye harimo abafite ubumuga ndetse n'abandi basanzwe.

Birakwiye ko buri kigo nderabuzima gikwiye kugira inzitiramibu, abaganga bahagije ndetse hakaba hari n'isuku ihagije.

Kujyana umurwayi utameze neza ku ivuriro ni byiza, kuko ni amahirwe aba agize yo kubasha kwitabwaho neza ndetse bakamukorera ibisabwa.

Ni byiza kwegera abantu bakuze tukabaganiriza bakatubwira ibitekerezo byabo ndetse natwe tukabumva, bityo rero bikabafasha kubaho neza bishimye.

Buri kigo nderabuzima kigira ahantu bayobora abaje kwivuza, kuko usanga hari aho unyura ukabasha kubabaza ibibazo bigiye bitandukanye.

Kugira ibigo bigiye bitandukanye bivura amaso ni byiza, muri iyi minsi abantu basigaye barwara amaso cyane ariko ntibamenye ikibitera.

Ni byiza kwihutira ku bitaro igihe wumva utameze neza kuko haba hari abaganga b'inzobere bagiye batandukanye bityo iyo ubagannye bakuvura neza kandi bakakwitaho.

Siporo ituma abantu bagira ubuzima bwiza ndetse n'amaraso agatembera neza. Tujye dukora siporo kuko ni ingenzi ku buzima bwacu.

Ni byiza kugana ikigo nderabuzima kitwegereye igihe twumva tutameze neza, kuko bagira ibikoresho byabugenewe kandi bakagira n'imiti ibasha kudufasha gukira neza indwara turwaye.

Turashishikariza buri bigonderabuzima byose biba mu Rwanda ko bajya bakoresha abakozi bizewe kandi babyigiye, kugirango bajye bita ku bantu neza kandi bikwiriye.

Mu Rwanda haje uburyo bwo gukora siporo aho buri karere gafata umunsi umwe mu kwezi abaturage bagahura bagakora siporo.

Siporo ni ngombwa mu buzima kuko ituma umubiri wacu ugororoka ndetse ikarinda siteresi mu buzima bwa buri munsi.

Siporo ni nziza kuko bituma umubiri wawe umera neza, ukavura umunaniro ndetse bigatuma uhorana ibyishimo mu mubiri wawe ndetse ukaba n'umuntu wakiteza imbere muri ubwo buryo.

Amagufa ni ingenzi ku buzima bwa muntu, kuko adufasha kugenda, adufasha gukora siporo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, igihe twumva tutameze neza ni byiza kwihutira ku kigonderabuzima.

Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze amazi ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, nibyiza kunywa byibuze litiro imwe kumunsi y'amazi kugirango urusheho kugira ubuzima bwiza.

Ugomba gushiraho umurongo ngenderwaho wo gukora siporo kuko bizagufasha gushira neza ubuzima bwawe kumurongo.

Gukora siporo ni byiza mu buzima, bituma umuntu amagufa ye ananuka bigatuma umubiri ukora neza ndetse akagira n'ubuzima bwiza.

Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze gukora siporo ari byiza ku mubiri w'umuntu koko bituma amagufa akomera ndetse akagira n'ubuzima bwiza.

Amazi ni isoko y'ubuzima igihe uvuye muri siporo ni byiza ko iyo hashize iminota mirongo itatu unywa amazi.

Tugerageze tunywe amazi uko bikwiye, kuko ni ingenzi mu buzima bwacu kandi atuma tugira ubuzima bwiza.

Gukora siporo ni byiza ku buzima bwa buri muntu, tugira imikino igiye itandukanye wakwisangamo ugakomeza ukagira ubuzima bwiza.

Ni ngombwa ko umuntu wagiriye ikibazo muri siporo agomba kwitabwaho cyane agahabwa ubuvuzi bw'ibanze, kugira ngo umubiri we utaza guhura n'ingaruka zitandukanye bitewe no kutitabwaho.

Ni byiza kurya indyo yuzuye, igihe dusoje kurya twagakwiye gufata urubuto rumwe kugira ngo dukomeze kugira ubuzima bwiza.

Tugomba kwita ku barwayi, kuko na bo baba baje batugana, bafite uburibwe, bityo rero niyo mpamvu tugomba kubitaho tubikunze kandi tubikuye ku mutima.

Gufashanya ni byiza cyane, igihe ugiriye ikibazo ahantu muteraniye murenze umwe, ni ngombwa ko mwishakamo ibisubizo, mukaba mwafasha uwahuye n' ikibazo.

Dukore siporo kuko iturinda indwara zigiye zitandukanye, kandi idufasha kunanura amagufa no kugira ubuzima bwiza.

Igihe wagiriye ikibazo muri siporo ni byiza ko wahita ufata imiti y'ibanze igufasha kugabanya uburibwe ndetse ikanakurinda gukomeza kwangirika.

Dufite ikoranabuhanga mu Rwanda riteye imbere cyane. Aho usanga dufite icyumba basuzumiramo abantu bakamenya indwara barwaye.

Kwita ku muntu wakomerekeye muri siporo ni byiza kuko bimurinda gukomeza kubabara ndetse bikamugabanyiriza uburibwe bityo akabaho yishimye.

Ni byiza ko dukora siporo kuko ituma tugira ubuzima bwiza ndetse tukanywa n'amazi ahagije n'igihe tugiye kurya, tukarya indyo yuzuye, ibi byose byadufasha kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza gukora siporo kuko ituma tugira ubuzima bwiza amagufa akananuka kandi tukagira n'imitekerereze myiza.

Siporo ni isoko y'ubuzima. Ni byiza gukora siporo kuko idufasha kugira ubuzima bwiza ndetse no gutekereza neza.

Ni byiza ko abaganga bambara imyenda yabugenewe ndetse n'igihe havutse ikibazo ku bitaro ko bakwiye kujya hamwe, bakagira icyo bigaho bakorera umurwayi kugira ngo abashe kumera neza.

Ni byiza ko abantu bagira amahugurwa yerekeye uburyo bashobora kubungabunga ubuzima bwabo, ni muri urwo rwego leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo abantu bazajya bamenya amakuru ku byerekeye ibintu bigiye bitandukanye.

Imyitozo ngororamubiri ituma abantu bagira amagufa akomeye ndetse bakagira n'ubuzima bwiza; bityo rero tujye dufata rimwe mu cyumweru dukore imyitozo.

Ibitaro byo mu Rwanda byatuzaniye ibinini twifashisha igihe tutameze neza, igihe wumva umutwe ukurya cyangwa se wumva umunaniro mu mubiri, ni ngombwa kujya kwa muganga bakakuvura.

Tugomba kunywa amazi asukuye kuko ari bwo buzima bwacu aturinda indwara nyinshi tukabaho mu buzima buzira umuze.

Mu mugihe wagiriye ikibazo muri siporo, ni byiza ko wakwihutira kwivuza ugahabwa imiti kugira ngo ukomeze urinde ubuzima bwawe.

Ni byiza kwikorera ubutabazi bw'ibanze, mu gihe tugize igisebe mu buryo butunguranye kuko biradufasha cyane.

Ni ngombwa ko tunywa amazi asukuye kuko arinda indwara nyinshi, tugomba kuyateka, tukayayungurura ndetse tugashyiramo n'umuti kugira ngo ataza kudutera indwara.

Ni byiza kugana ikigonderabuzima igihe wabonetse kuko bakoresha ibikoresho byabugenewe ndetse byizewe.

Ni byiza kwambara ibintu by'ubwirinzi mbere yuko ujya muri siporo uzi neza ko ushobora guhura nibintu bigukomeretsa, rero turinde ubuzima bwacu.

Siporo ni ingenzi ku buzima bwacu bwa buri munsi, aho idufasha kugira ubuzima bwiza kandi igatuma n'amagufa ananuka.

Siporo ni nziza mu buzima kuko iyo wayikoze ndetse ukayigeramo n'ikibazo biba byiza yuko ujya kwa muganga bakakwitaho bakaguha ubutabazi bw'ibanze.

Kurya indyo yuzuye ni byiza, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza ndetse akamara igihe kinini atarwaye.

Turashishikariza abantu gukora siporo ndetse bakanywa amazi ahagije kuko bituma umubiri ukora neza, ndetse bakagira n'ubuzima bwiza.

Wari uzi ko iyo ukoze siporo rimwe cyangwa se kabiri mu cyumweru bigufasha kugabanya siteresi ugatekereza neza ndetse ukabaho wishimye.

Ni byiza ko abaganga bambara imyenda yabugenewe, igihe bari mu kazi kabo. Kuko bibafasha kuba kwita, ku barwayi neza, kandi bakabaha serivise zihuse.

Gukora siporo ni byiza, bituma imibiri yacu ihora ikeye, ndetse bigatuma uhora ufite akanyamuneza kuko uba wakoze imyitozo myinshi.

Ni byiza gukoresha icyumba cyihariye dusuzuma abarwayi bacu, kuko bituma tubavura neza indwara barwaye.

Gukora siporo ni byiza mu buzima bwa muntu, kuko bituma umuntu agira amagufa akomeye, amaraso agatembera neza mu mubiri, ndetse akagira ubuzima bwiza.

Birashoboka ko umuntu yakwikorera ubutabazi bw'ibanze, igihe uvunitse utegereye ivuriro ushobora gukoresha agatambaro gasukuye ukabasha kwivura imvune waba ufite.

Ibyiza bya siporo ni uko idufasha kugororoka mu mubiri, ugasanga umuntu abayeho neza ndetse zikanavura sitiresi ndetse umuntu agashobora gutekereza ibintu bihambaye ndetse byagutse cyane.

Mu Rwanda dufite ikigo nderabuzima cy'abasirikare kibasha kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, kandi bagatanga na serivise nziza ku barwayi baza babagana.

Gufasha abantu bagize ikibazo cy'imvune, gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye bituma bananuka ni byiza. Tugane ibigo nderabuzima ibyo bikoresho birahaba.

Tugomba gukora imyitozo ngororamubiri, kuko ari umuti ku buzima bwacu, idufasha kumva tumeze neza, no mu gihe wumva udatuje ugakora siporo, igufasha kuruhuka ugashobora gukora n'ibindi bigiye bitandukanye.

Tugerageze dukore siporo kugira ngo tunanure umubiri wacu ndetse tugire n'ubuzima bwiza buteye imbere.

Ni byiza gukora siporo ndetse tukanywa amazi n'igihe tugiye kurya tukarya indyo yuzuye kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Kwikorera ubutabazi bw'ibanze ni ingenzi mu buzima. Kuko biradufasha, bigatuma tugira ubuzima bwiza.

Ni byiza kwisuzuma igihe wumva utameze neza, kuko bigufasha kumenya uko umeze ndetse n'ibitagenda neza kuri wowe.

Gukora siporo ni byiza mu buzima, bituma umubiri ukora neza, amagufa agakomera ndetse ukagabanya na stress. Turashishikarizwa kujya dukora siporo rimwe cyangwa se kabiri mu cyumweru, kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ni byizayiza gukoresha imiti yabugenewe igihe twavunitse cyangwa se twarwaye kuko bituma tumenya uko duhagaze.

Gukora siporo ni byiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko bituma amagufa ananuka ndetse tugakomeza kugira n'ubuzima bwiza.

Ni byiza gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye kwa muganga kuko biduha ibisubizo byiza kandi byizewe.

Ni byiza kwikorera ubutabazi bw'ibanze igihe utegereye ikigonderabuzima kuko bigufasha kugabanya imisonga.

Mu gihe umaze gukora imyitozo ngororamubiri, ni nziza ko wanywa amazi meza isukuye, kuko bifasha umubiri kuruhuka.

Tugomba gukora imyitozo ngororamubiri kuko ari nziza, iturinda kuba twabaho twigunze, ndetse ikanatuvura umunaniro ukabije.

Gukora siporo ni byiza kuko siporo ifasha abantu kugira ubuzima bwiza, ikabarinda kugira umunaniro, ikanatuma bagabanya ibibazo baba bafite bitandukanye.

Kugira abaganga batwigisha kuri siporo ndetse bakadufasha no kuduha imiti igihe wagiriyemo ikibazo, ni byiza cyane kuko biradufasha mu buzima bwa buri munsi.

Ni byiza ko iyo wumva utameze neza, hari aho uri kubabara, ugomba gufata umuti ugabanya ububabare, kuko bituma umubiri wawe umera neza.

Siporo ni umuti urinda indwara zigiye zitandukanye, turashishikariza buri umwe kujya yigomwa rimwe cyangwa kabiri mu cyumweru agakora siporo.

Imbangukiragutabara ni ingenzi. Kuko ifasha abarwayi kugera kwa muganga byihuse, ndetse bakitabwaho cyane.

Ni ngombwa gukora siporo mu buzima bwa buri munsi, kuko bifasha umubiri wacu kumera neza ndetse bigafasha n'umuntu kuruhuka neza mu mutwe ndetse agahora yishimye kandi afite ubuzima bwiza.

Ni byiza gukora siporo cyane cyane ku bantu bageze mu zabukuru, kuko ibafasha kugira ubuzima bwiza, amagufa akananuka ndetse ikabarinda n'ibibazo bigiye bitandukanye.

Iyo umuntu akoze imyitozo ngororamubiri bituma agira ubuzima bwiza ndetse akanatekereza neza ibintu bigiye bitandukanye.

Gukora siporo n'umuti muririnda indwara zigiye zitandukanye. Aho idufasha kunanura amagufa yacu, ikaturinda kugira na siturese.

Kujyana umwana ku bitaro hakiri kare ni byiza, kuko bifasha abaganga kumusuzuma neza ndetse bakamenya n'ikibazo afite.

Ni byiza gukoresha imiti ya kinyarwanda kuko iba yizewe kandi ikatuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibimera bigira akamaro kanini cyane mu buzima bwacu kuko bimwe tubyifashisha dukora imiti ivura abarwayi baba bafite indwara zigiye zitandukanye.

Gukoresha imiti gakondo biradufasha cyane kuko usanga iyi miti ivura indwara zigiye zitandukanye, igihe utabashije kujya kwa muganga ni ngombwa gukoresha ubwo buryo.

Ni byiza gukoresha imiti dukura kwa muganga kuko iba yizewe, usanga ituvura tugakira neza.

Wari uzi ko ibimera bigira akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi? Hari ibyo bifashisha bakoramo imiti bavurisha abarwayi.

Ibimera bigira akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari ibyo usanga bifashisha ku bitaro bakoramo imiti ibasha kuvura abantu bagiye batandukanye baza babagana.

Ese wari uzi ko ibimera bigiye bitandukanye ari byo twifashisha, bikavamo imiti dukoresha ku bitaro? Ni muri urwo rwego ko dukwiye kwita ku bimera, tukareba ko bimeze neza.

Ni byiza gukoresha imiti gakondo kuko ituma abantu bakira indwara barwaye ndetse bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Ni ngombwa ko uyu murwayi agiye kwa muganga adafite amaraso bagomba kumuha seruomu kugira ngo imwongerere amaraso ibashe gutabara ubuzima bwe.

Kwisiga amavuta ni ingenzi mu buzima, kuko birinda uruhu kugira umwera, bigatuma umuntu asa neza ndetse anagira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko dukoresha umuti w'amenyo kuko ufasha amenyo yacu kumera neza ukayirinda kurwara ndetse agakomeza kugira ubuziranenge.

Umuravumba ni ikimera gitangaje ariko kigira akamaro kanini mu gukiza abantu indwara zigiye zitandukanye, bityo tugomba kucyitaho ndetse tukagikundisha abantu.

Ibimera bigira uruhare runini ku buzima bwa muntu kuko usanga imiti akenshi tunywa igihe turwaye iba yarakomotse ku bimera.

Gukoresha imiti wakuye ku bitaro ni byiza mu gihe urwaye, kuko iba yizewe ndetse inaturutse ahantu hizewe.

Tujye twita ku bimera bigiye bitandukanye kuko twabonye ko bigira akamaro kanini ku buzima bwacu, harimo nk'ibyo twifashisha dukora icyayi ndetse n'ibindi.

Ibimera ni ingenzi muri iyi si yacu kuko usanga byifashishwa cyane cyane ku bitaro babikoramo imiti ibasha kuvura abarwayi dukwiye kubungabunga ibimera kuko bigira uruhare runini mu buzima bwa muntu.

Ni byiza gukoresha ibiti dukuramo imiti ibasha kuvura abantu, kuko bituma bagira ubuzima bwiza.

Ni byiza gukoresha imiti gakondo, kuko usanga ifite ubuziranenge, ndetse ikanatuma indwara turwaye zikira.

Twababoneye umuti uvura amibe, ku bantu bafite iyo ndwara ni byiza kugana ibigo nderabuzima kuko hari imiti y'ubwoko bwose ibasha kuvura iyo ndwara.

Ibimera bigira akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari ibyo bakoresha ku bitaro bakoramo imiti ivamo ibinini batanga ku bitaro.

Ibimera bifite akamaro kanini ku buzima bwa muntu usanga aribyo bakoresha ku bigo nderabuzima babikuramo imiti ibasha kuvura abaturage batameze neza.

Hari ibimera dukoresha bigiye bitandukanye, kugira ngo tubashe gukuramo inzoga, abantu babasha kunywa ndetse n'ibindi twifashisha kugira ngo tubone imiti.

Ni byiza gukoresha ubuki nk'umuti kuko nabwo bufasha cyane cyane igihe warwaye, ushobora kubwifashisha mbere y'uko ujya kwa muganga.

Ni byiza gukoresha imiti twahawe na muganga kuko iyo utameze neza, ukagana ikigo nderabuzima, muganga abasha kugusuzuma, akaguha umuti ujyanye n'uburwayi ufite.

Wari uzi y'uko ibimera bivamo imiti igiye itandukanye? Hari iyo bakoresha igihe wavunitse, hari iyo bakoresha bisiga kugira ngo barinde uruhu kugira umwera.

Ni byiza ko tubungabunga ibimera bitandukanye, kuko bimwe bikenerwa ku bitaro bakabitunganya, bakabikoramo imiti ibasha kutuvura igihe turwaye.

Ibimera ni ingenzi cyane ku buzima bwacu kuko bimwe usanga bivamo imiti ibasha kutuvura igihe tutameze neza.

Kapisine ni ikimera gitangaje, ariko abantu bakunze kugikoresha nk'umuti uvura indwara zigiye zitandukanye.

Kugira ngo tubeho neza hari ibintu by'ingenzi tuba tugomba gufata, birimo ibitunguru, imbuto, amavuta se ndetse n'ibindi byinshi byatuma umuntu ahora atekanye mu buzima bwe.

Ni byiza ko buri gihe iyo dusoje kurya twagakwiye gufata imbuto kuko zituma tugira ubuzima bwiza.

Ese wari uzi yuko ibimera bikiza indwara zigiye zitandukanye? Mu urugero, nk'igikakarubamba tukifashisha mu buryo buigiye butandukanye, kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ese wari uzi ko amavuta ari ingenzi ku buzima bwa muntu, igihe umaze koga ni byiza kwisiga amavuta kugirango burinde uruhu rwawe kugira umwera.

Gukoresha amavuta yizewe ni ingenzi mu buzima, kuko abasha kurinda uruhu kugira umwere ndetse agatuma n'abantu basa neza.

Ni byiza kunywa imiti igihe wumva warwaye utameze neza, uba ugomba kuyinywa wita ku buzima bwawe kugira umere neza.

Ibimera bigira akamaro kanini ku buzima bwacu, ni muri urwo rwego ko dukwiye kubyitaho kuko tubyifashisha dukoramo imiti cyangwa se amasabune abantu bakoresha.

Ni byiza kumenya amateka yo hambere ukamenya ibikoresho bakoreshaga bitandukanye, aho iyo abantu babaga bateranye cyangwa se bagiye mu bukwe, bifashishaga uducuma banywa inzoga ndetse bagakoresha n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye.

Ibimera bigira akamaro kanini gatandukanye, urugero hari ibyo dukoresha tuvanamo imiti nka Aloe ifasha uruhu gusa neza.

Kwita ku menyo yacu ni ingenzi cyane, kuko iyo usukuye amenyo bikurinda indwara zigiye zitandukanye. Ni muri urwo rwego kandi dushishikarizwa gusukura amenyo byibuze kabiri ku munsi.

Ni byiza ko twagakwiye kurya imbuto umunsi ku wundi kuko zimwe tuzikoresha nk'imiti, harimo inanasi, imineke ndetse n'ibindi.

Ni byiza ko dukoresha imiti gakondo kuko iba yizewe kandi ifite n'ubuziranenge.

Ibimera bigira akamaro kanini mu buzima bwacu. Hari ibyo twifashisha dukoramo imiti, ibindi tugakoramo amavuta n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umuravumba ni igihingwa kigira akamaro kanini ku buzima bwacu bwa buri munsi, havamo umuti ubasha kuvura abantu bagakira kandi bakamera neza.

Mu Rwanda dufite imisozi igiye itandukanye aho usanga hamera ibiti bakoresha ku bitaro bakuramo imiti ivura abarwayi.

Ibimera ni ingirakamaro ku buzima bwacu kuko usanga abantu babikoresha nk'imiti ibasha kubavura umunsi ku wundi.

Ibimera dukoramo imiti igiye itandukanye yadufasha, urugero nk'igikakarubamba usanga gikenerwa ahantu henshi mu buzima bwacu.

Ese waruzi ko amavuta twisiga agiye atandukanye ava mu bimera? Bityo rero tubungabunga ibimera kugirango tubashe kubona amavuta twisiga.

Igihe wavunitse ni byiza kwihutira ku bitaro bakagusuzuma bakareba ikibazo ufite kuko bagira imiti bakoresha bakuvura ugakira neza.

Gukoresha imiti ya kinyarwanda, ni byiza ku buzima. Igihe utabashije kugira amahirwe yo kujya ku bitaro, wakwifashisha iyo miti kugira ngo ubashe kwivura.

Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze ibimera ari umuti ukomeye cyane, abantu bashobora kwifashisha bivura bagakomeza kugira ubuzima bwiza.

Ni byiza ko twita ku bimera harimo :ibiti ,ibyatsi ndetse n'ibindi kuko nibyo twifashisha ku bitaro dukuramo imiti ibasha guhabwa abarwayi baje batugana.

Ibimera bigira uruhare runini, mu buzima bwacu bwa buri munsi, hari ibyo bifashisha ku bigo nderabuzima bitandukanye bakoramo imiti ibasha kutuvura.

Abantu bakunze kurwara igifu bakoresha umuti uva mu bimera kuko urakuvura neza, ukabasha gukira. Uwo muti uba ufite ibara risa nk'icyatsi.

Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze ibimera ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi aho amavuta abantu bisigaga mirongo ikenda ku ijana aba akomoka ku biremera.

Ni byiza gukoresha imiti wakuye kwa muganga, kuko iba yizewe. Igihe utameze neza ukayikoresha urakira, kandi indwara ntigaruke.

Ni byiza gukoresha imiti ituruka ku bimera igihe warwaye, ushobora gukoresha umuti bita umuharavumba ukabasha kugukiza indwara urwaye.

Gukoresha imiti gakondo ni byiza mu buzima, kuko ni imiti yakoreshwaga ha mbere, kandi yizewe, bityo igihe tutameze neza, twagakwiye gukoresha imiti gakondo, kugira ngo twivure.

Ni byiza gukoresha imiti ituruka ku bimera, kuko iba yizewe kandi ikaba inatuma dukira indwara turwaye.

Ni byiza kubika neza imiti kuko iyo ubigenje gutyo, ibasha kuba ikora kandi ifite ubuziranenge.

Ese wari uzi yuko ibimera ari byo twifashisha dukuramo imiti duha abarwayi? Ni muri urwo rwego ko tugomba kubungabunga ibimera kugira ngo bibashe gukura neza.

Ni byiza ko twita ku bimera bigiye bitandukanye, kuko bigira akamaro kanini ku buzima bwacu bwa buri munsi, hari ibyo bifashisha ku bigo nderabuzima bakoramo imiti ibasha kuvura abarwayi.

Ni byiza gukoresha umuti w'amenyo, kuko utuma acya ndetse n'igihe arwaye ukayavura neza, akabasha kumera neza, rero tujye twita ku menyo yacu, tuyasukure kuko ari ingenzi mu buzima bwacu.

Isabune igira akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho tuyikoresha dusukura umubiri, tumesa imyenda, ndetse tunakora ibindi bigiye bitandukanye.

Hari ibimera bigiye bitandukanye dukoresha duteka icyayi, hari n'ibindi dukoresha nk'imiti kugira ngo twivure indwara turwaye.

Ibimera bigira akamaro kanini mu buzima bwacu. Hariho imiti usanga ikozwe mu buki, ibasha kutuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni byiza ko dukoresha imiti gakondo ,kuko usanga ifite ubuziranenge, ndetse ikanadufasha gukira neza indwara turwaye.

Ni byiza ko twita ku bimera bitwegereye kuko twabonye ko bigira akamaro kanini, cyane cyane ku bigo nderabuzima ko harimo ibyo bakoresha bakoramo imiti ibasha kutuvura.